Umugabo wambaye ishati ya karokaro ufite inyakiramajwi mu ntoki n'ipantaro y'ubururu, uri hagati y'abantu bicaye iburyo cyangwag se ibumoso bari ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari icyapa kiriho ibiganiro bitandukanye bari kuganiraho hirya hari n'abandi, imbere yabo hari ameza ateretseho ama mashini kandi buri meza yose hariho uducupa tw'amazi.

Abagabo, abagore, ingeri zitandukanye zicaye mu cyumba kiberamo inama, mu ntebe zifite imisego ijya gusa umweru n'utundi tuntu tw'umuhodo turi hafi yaho, n'igikapu giteretse ndetse n'abantu bafite amamashini mu ntoki, utayifite afite impapuro, urutsinga rw'umweru rumanitse ku ma esikariye, uducupa tw'amazi buri wese imbere ye ndetse n'ahantu urwo rutsinga rucometse.

Abahungu cyangwa se abagabo bicaye mu cyumba kiberamo inama ariko bose bagaragara nkaho ari urubyiruko. Bambaye imyenda isa ibara ry'ubururu yanditseho amagambo y'umweru iriho n'agafoto, kidarapo ry'u Rwanda, imbere ya buri wese ku meza hateretse icupa ry'amazi y'inyange hari n'ufite agakombe banyweramo ikawa cyangwa se ikindi kintu, hariho na telefone ku ruhande n'impapuro.

Abantu benshi, haba abagabo n'abagore bicaye ahantu mu byatsi, imbere yabo hari ikibuga kinini, hashinzemo n'amahema agera kuri atatu, idarapo rimanitse rigaragaza ko ari u Rwanda, harimo amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu n'abandi bicaye muri ayo mahema, ibyapa bihagaze ku ruhande rwayo biriho ingingo zitandukanye bari kuganira n'utundi tuntu dufite amabara y'ubururu, ibiti biri inyuma yabo n'indi nyubako.

Abagabo abagore bicaye, imbere y'ameza hariho irange risa umutuku, hariho uducupa tw'amazi y'inyange, harimo indangururamajwi imbere ya buri wese, inkingi nini ifashe kuri iyo nzu, igikuta kiriho utuntu tw'umweru duciyemo tumeze nk'amakaro, inzugi zikinguye, akapa kari hejuru hagaragaza ko ari ugusohoka n'abandi bantu bicaye mu myanya y'inyuma ku ntebe zisa umweru.

Abantu b'ingeri zitandukanye hakubiyemo abagabo n'abagore bicaye mu cyumba gikunze kuberamo inama, bakikije ameza asizeho irangi risa shokora, hakaba hariho uducupa tw'amazi y'inyange cyangwa se ji ya orange n'iya pome, hakaba harimo abambaye amakote, abamama ndetse n'abandi bari kwandika, imbere yabo hari impapuro bafite n'amakaramu mu ntoki.

Abagore n'abagabo ndetse n'abantu b'ingeri zitandukanye, bahagaze ahantu hamwe ku masikariye, bamwe hejuru abandi hasi, munsi yaho gato hakaba hari abandi bicaye bakikije ameza, hariho ibitambaro by'umweru, hakaba hariho n'uducupa tw'amazi y'inyange.

Abantu benshi abagabo abagore se bicaye imbere ku ntebe abandi inyuma bahagaze hagiye hari ibyapa biri ku mpande n'impande, hejuru hariho parafo y'umweru igiye irimo n'utundi twenge, imbere yabo hari ameza y'umutuku hari ariho ishakoshi hari ariho agakaye n'izindi mpapuro n'uducupa tw'amazi hino yaho hari intebe z'ubururu.

Umuntu ufite ibikoresho bifata amashusho wambaye n'ijiri y'icyatsi, iriho akadarapo k'u Rwanda, urigufotora abantu bicaye mu ntebe z'imikara, imbere yabo buri wese hari ameza y'umutaka ahazengurutse ateretseho uducupa tw'amazi, hari ufite agakayi mu ntoki k'ubururu, hari amarangurura majwi imbere ya buri umwe, hari amamashini barigukoresha bamwe na bamwe bagera kuri batatu, hari n'ufite telefoni.

Icyumba kimwe kiberamo inama cyangwa n'ibindi biganiro bitandukanye, amakaro y'umweru intebe z'umutuku zifite n'utndi tuntu ku mpande tw'umuhondo, zigiye zikikije ameza hari ibitambaro by'umukara, imbere hari igitambaro kiriho amashusho, abantu benshi bicaye muri iyo nama bari kurebaho, bambaye imipira y'umweru yiganjemo ibintu by'ibikara mu mutwe.

Benshi bicaye mu cyumba cy'inama kimwe harimo ingeri zitandukanye haba abakuze n'abato, abazungu, abirabura, hakaba harimo n'abandi bambaye impuzankano zimwe zerekana ko ari abasirikare, imbere yabo ku meza hariho akantu kanditseho inyuguti ya kabiri n'uducupa tw'amazi y'Inyange n'ibindi bipapuro byinshi bitandukanye.

Abantu bicaye ahantu hadekoye neza, imbere yabo hagati harimo indabyo cyangwa se akandi gati kahateye mu ivase, hari umumama uhagaze imbere y'ahantu hari kwaka ikimashini kirekire, afite mikorofone cyangwa indangururamajwi ari kuvugiramo, abandi bicaye hafi y'ameza hariho uducupa twa amazi.

Abagabo bagera kuri bane, harimo batatu bicaye imbere ku meza afite irangi ry'umutuku, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, babiri muri bo bafite indangururamajwi imbere yabo harimo n'abasa nk'abari kuvuga, n'inyuma hari undi wambaye ishati y'umweru, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo kandi hari n'abandi bahicaye harimo ni umumama ufite imisatsi myinshi, n'undi ugaragara nk'aho atari umwirabura.

Mungeri zitandukanye z'abantu bicaye mu cyumba kimwe cy'inama ku ntebe z'umukara igikuta kiriho udutako dutatu tw'umukara ,turiho nandi mabara y'umuhondo ,amarido ari ku birarahure ku madirishya imeza nini cyane ya shokola ibarimo hagati iteretseho bamwe amakayi ndetse telefone hari n'ufite machine, uducupa tw'amazi y'inyange.

Abamama benshi n'abagabo ndetse benshi bateza ibitambaro mu mutwe hari n'abambaye ingofero imbere yabo hari abandi bambaye imyenda y'umukara harimo n'abandi bambaye ijya gusa icyatsi ya gisirikare harimo n'umupolisi umwe mu ihema hari n'undi ufite mikorofone usha nkuri kubagezaho ijambo wambaye ishati ya karokaro.

Abagore n'abagabo bicaye ahantu mu cyumba kimwe kiberamo inama ku ntebe z'umukara, hasi hari amakara y'umweru, inyuma hariho amarido y'ubururu ndetse n'andi mafoto abiri ari mu mpande zitandukanye, ikindi cyapa cyanditseho amagambo se cyangwa ingingo zitandukanye bari kuganiraho, imbere hari ameza afite ibara rijya gusa nk'umuhondo hateretseho impapuro n'amakaramu y'ubururu.

Abagabo n'abagore abagabo biganje mu makoti ya kositimu, imbere yabo hagiye hari inyashyiramajwi, uducupa tw'amazi tw'inyange ndetse n'ibindi bikombe by'umweru, buri wese afite mashine mu ntoki ze cyangwa se igikoresho cy'ikoranabuhanga n'inyuma hari andi meza, naho bimeze bityo, hari n'inzugi zifite ibirahuri by'umukara na telefone ku ruhande.

Kiberamo inama kirimo ingeri zitandukanye abazungu, abirabura, abamama, abagabo ndetse abakuru n'abato harimo umumama wambaye imyenda y'umweru n'igitambaro mu mutwe imbere ye ku meza hatereretse amacupa y'amazi n'ibirahuri, ishakoshi y'umukara umwegereye ufite raputopu mu ntoki.

Icyumba kiberamo inama cyangwa se abantu bahuriramo hicayemo abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye bicaye ku ntebe z'umweru, abicaye ku z'umukara, imbere hari ameza ariho irangi rya oranje, n'iy'umutuku uducupa tw'amazi uturangururamajwi amamashini bari gukoraho abinyuma batandukanye n'abantu bari gufotoraraho.

Abantu benshi yaba abamama, abapapa cyangwa se n'izindi ngeri zitandukanye bicaye mu cyumba kiberamo inama bakikije ameza y'umukara agiye ariho impapuro, uducupa tw'amazi tw'inyange twinshi, hari n'abashyizeho amashakoshi cyangwa amamashini, telefone se, inyuma yabo hakaba hari igikuta kigiye kiriho udutako dutandukanye, amatara hejuru yabo acanye.

Ingeri zitandukanye z'abantu, harimo urubyiruko, abakuze n'abato, imbere y'abo bari imbere hari ameza y'ikirahure ateretseho uducupa tw'amazi dutatu, undi agafite mu ntoki wicaye ku ntebe zifashe hasi ibyuma, inyuma ari umukara, abandi inyuma y'aho, hasi hariho amarangi atandukanye, icyatsi, umuhondo n'ubururu agize idarapo ry'u Rwanda.

Abamamana n'abapapa bicaye mu cyumba kimwe kiberamo inama, inyuma yaho hari ibyapa bibiri bishushanyijeho utudarapo tw'u Rwanda tubiri, icy'ubururu n'icyumweru, cyanditseho amagambo atandukanye agize ingingo bari kuganiraho, uducupa tw'amazi turi imbere yabo ku meza, impapuro abafite n'ikaramu hari n'uwambayemo amarinete, n'uwambayemo ikoti ry'umukara.

B'ingeri zitandukanye abagabo cyangwa se abagore, hari n'abambaye rinete bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza agiye afatanye abiri abiri, atseretseho n'uducupa tw'amazi y'impapuro ziriho amakaramu y'ubururu n'amatelefoni kuri bamwe, inyuma yaho hakaba hari ibirahuri.

B'ingeri zitandukanye harimo abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cy'inama ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza azengurutse asa shokora ndetse hakaba ari mu imbaho hari udukarito bateretse imbere hari na regesitere, bike hari abambaye amarinete wambaye agapfukamunwa n'umumama wambaye imyenda irimo utuntu tw'umutuku.

Abagabo bicaye ahantu hamwe, hari intebe z'imikara n'izindi zifite amabara asa n'ivu, hari akantu k'umuhondo, imbere yabo hari ameza atukura, hagati harimo mashini iriho ibyerekezo bitandukanye, bigaragaza nk'aho ari umujyi umwe, hejuru handitseho amagambo y'uwo mugi, hari uducupa tw'amazi duteretse kuri ayo meza, n'indangururamajwi. Hari uwambaye marinete, n'abandi bambaye amakote.

Ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo menshi atandukanye, hashushanyijeho na terefone iriho akantu hejuru kariho agafureshi gatambitsemo nk'agakubu ndetse amagambo y'umuhondo, ay'umweru, hari n'akandi kantu kerekana verigudu, munsi hari ahandi hari nimero, hakaba ushobora kubasanga kuri urwo rubuga.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara aho ari mu mukono cyangwa se yanditse mu cyapa, amato n'amanini munsi hariho ibara ry'ubururu ririmo n'andi'y'umweru. Akabara k'umuhondo gashushanyijeho intebe y'umukara bakunze kwicaraho abantu bakora mu biro, n'akapa kerekana igihe runaka cyangwa vakanse mu gifaransa.

Umuntu w'ikiganza gifite urushinge mu ntoki cyambaye ga imbere yaho hari undi wambaye agapfukamunwa wateze akaboko bagiye kujombaho urwo rushinge hari akantu k'ubururu harimo n'akaziga kanditsemo umubare 2 nahandi handitse amagambo y'umuhondo munsi hariho n'ay'umweru.

Ahantu hari uruzitiro rugizwe n'ibyuma, hejuru hariho senyenge, n'utundi dutoya harimo igipota kinini cyane cyangwa se ikintu gitanga umuriro n'ibindi bintu bihateretse bimeze nk'ibisanduku by'umweru, n'ikindi gifite ibara ry'icyatsi hejuru hariho n'insinga zitandukanye.

Utudarapa tubiri harimo na k'u Rwanda na kandi karekana ku bwongereza, hirya hari akantu bara k'ubururu gashushanyijeho ingufuri n'amagambo agaragaza ko ushobora kwinjiramo, iruhande rwako hari agashushanyo k'urufunguzo, munsi ari amagambo y'ubururu cyane ndetse hepfo cyane mu mabara y'umweru, harimo agashushanyo k'umuntu.

Ahantu hari ibara ry'ubururu handitseho amagambo, hirya ku bumoso hari ahatangira havuga ngo irembo, no ku rundi hirya rw'iburyo ya avuga ngo byikorere, munsi yashushanyijeho telefoni, iriho umuntu uhagaze iruhande rwayo, ufite ikoti inyuma, marineti ku ishati ijya gu gusa ubururu, ipantaro ndetse n'izindi inkweto z'umweru ufite n'indi telefone mu ntoki.

Mwibara ry'ubururu harimo amagambo atandukanye n'amanimero harimo ay'umuhondo, ubururu, umweru hepfo hariho'amatariki ibyo bintu bibereyeho hasi cyane hari utuntu twinshi tugaragaza imperekeza y'ibyo bintu nimero wahamagara urubuga ushoborakubasangaho kuri facebook karanganego kagaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda rwanda revenue outhorit.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bambaye imyenda isa. irimo amabara y’umutuku mu mipira n’akandi kantu k’ubururu ku ruhande. Amapantaro yabo ni amakaraza, ndetse bashyizeho udukarita mu ijosi. Batatu muri bo bafite ibikombe bikunze kwitwa ishimwe. Nyuma yaho, hari icyapa kigaragaza amagambo cyangwa se ingingo bari barikuganiraho.

Abagabo bagera ku icyenda batandatu muri bo bakaba bambaye imyenda y'umukara, abandi batatu bambaye iy'umweru bicaye ku ntebe z'imbaho ziriho n'akabara k'umukara k'utwuma, imbere yabo hari ameza manini, hariho amamashini n'amatelefoni bari gukoresha, bamwe muri bo hakaba hariho n'udutabo, inyubako iri inyuma yabo bafite irange ry'umuhondo itatseho indabyo impande n'impande, hari n'iziri mu mavaze yazo.

Umuntu ufite telefone ishyize ku gutwi ifite n'umugozi u ukororoka wambayenette n'imyenda idoze mu bi bitenge n'akandi kamashini mu ntokiw ibara ry'umukara ryijimye handitseho amagambo y'umweru munsi hariho n'akandi kabara k'ubururu karimo hepfo cyane hari ahantu cyangwa se igihugu runaka nomero ibindi bintu ushobora kwigaho kandi gashushanyijemo urwego.

Inyubako imwe imanitseho ibyapa byinshi cyane bitandukanye, hejuru ikibanza kikaba kiriho amagambo y'umutuku agaragaza serivisi zitangirwaho, hakaba harimo n'iza MTN cyangwa se eyateli na tigo. Munsi kandi hariho n'ibindi bitandukanye bakorera aho ngaho, hakaba hafunze, imbere hari amapave n'udusikari tugera kuri dutatu bishushanyijeho n'umuntu ufite telefoni ifite n'imisatsi.

Babiri bicaye ku ntebe barimo uwambaye umupira wumuhondo ufite amakoteri mu matwi afite terefone mu ntoki, izindi zafite aho ku meza hari akamashini abantu bishyuriraho undi hirya gafite kareba n'utundi dupapuro wambaye umupira wiganjemo umutuku n'umukara.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo atatu, ariyo RGB mo imbere muri "G" hakaba hariho akantu k'umuhodo kagaragaza izuba; hasi kandi hakaba handitse andi magambo y'umweru abisobanura mu ibara ry'icyatsi, hepfo cyane hari andi abivugaho mu ibara ry'umukara.

Abagabo ndetse n'umukobwa ubahagaze inyuma bafite telefone mu ntoki, bahagaze bambaye udupfukamunwa, hari uwambaye ak'umukara n'u wambaye ak'umweru, mu ikoti risa shokora imbere harimo karuvati y'umutuku, n'uwambaye ishati y'ubururu bose bafite imashini zabo mu ntoki bari gukoreraho, hakaba n'undi wambaye agakuteri mu matwi.

Umuntu wambaye icyenda kijya gusa ubururu imbere ye hari afite ibipapuro mu ntoki n'indi mashini, mu imbere mu ishusho y'umukara handitseho amagambo y'imyeru, harugru hari amagambo manini mu cyapa munsi harimo n'ayo mukano, hepfo yaho hari akandi kantu kerekana amerekezo ya ruguru k'ubururu gato.

Ihema rimwe rishinzeho ibyuma bifashe hasi, utuntu tumeze nk'udusorori, umuhanda w'itaka uri imbere yaho hari ama pave, ibintu by'ubururu bimanitse aho ngaho by'ibyapa, byanditseho amagambo y'umweru, hari ahavuga Ecobank n'andi ya ATM, ibyuma bihagaze aho imbere, harimo insinga z'amashanyarazi, izigiye hirya, izigiye hino, imodoka irimo igenda muri uwo muhanda.

Ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo atandukanye n'utundi tudomo tw'umweru tugize akaziga kanditsemo imibare ibiri ariyo rimwe na zeru munsi hari andi mabara y'umuhondo nay'ubururu hepfo cyane ujya gusoza hariho nimero ushobora guhamagara zitishyurwa hariho fesibuke n'izindi mbuga ushobora gusangaho iyo apulikasiyo, iruhande rw'iburyo hariho akarangantego kagaragaza ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda, rwanda reveni otori....

Ahantu hatangirwa serivisi zitandukanye zigaragara nk'aho ari muri resitora cyangwa hoteli, abantu bicaye ku ntebe z'icyatsi ndetse hagati hakaba harimo ameza bamwe bayakikije kandi ameza yose akaba ariho abantu, harimo babiri bambaye imipira y'umutuku, inyuma hariho ibirahure bigaragaza ko imbere hari izindi nzu kandi hari amakaro.

Akapa k'umuhondo kamanitse ahantu bakorera cyangwag se ubucuruzi kari ku kirahure handitseho akantu k'umweru kagaragaza ko ahantu bashakira ibintu cyangwa se ushobora gushaka ikintu muri apurikasiyo imwe cyakora hari utubara tubiri dutandukanye, ak'umuhondo cyane n'akandi gasa icyatsi munsi yaho hari akandi k'ubururu.

Akazu gasize irangi ry'ubururu bwerurutse hejuru hacanyeho agatara kariho urugi rw'umukara, impande zako hariho ibyuma bikikije ipoto ririho insinga z'amashanyarazi zirimo irangi ry'umutuku n'umweru, hirya hari indi nyubako nini cyane.

Abana babiri bambaye imyenda isa ku mifuka hagiye hariho akantu k'umukara, imbere yabo hari ameza asize irangi rya shokora buri wese afite mashini mu ntoki abanyeshuri bakunze gukoresha, hejuru hari utuntu tw'icyatsi tuzamuye, umwe yayihindukije iri kureba kuri uru ruhande, amarido ari hirya afite irangi rijya gusa nk'ivu ndetse n'ibindi bitabo biri aho ku meza harimo n'igifite irangi ry'umukara.

Agace k'umuhanda wa kaburimbo, inzira y'abanyamaguru, hirya hari ubusitani burimo ibyatsi, igipangu gifite irangi risa orange, irinde risa nk'ivu, akumutuku hejuru yaho, ibintu bimeze nk'insina cyangwa urutoki m'imbere hari iby'indabyo ipoto rihashinze ririho insinga z'amashanyarazi.

Amazu y'ubucuruzi, akorerwamo imirimo itandukanye, hagiye hamanitseho ibintu bakora, hari abadoda imyenda, hari abayicuruza, ipoto ry'amashanyarazi ririho n'insinga zinyuranyuranyemo, hari izigiye iburyo n'izigiye ibumoso, imodoka ifite irangi ry'umweru iparitse.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwayo hari akaruburara gato cyangwa se kayobora amazi ibyatsi n'ibiti bigufi birebire ipoto rishinzemo n'insinga z'amashanyarazi hari urunyura hagati mu muhanda yagiye ibumoso n'izigiye iburyo ririho n'itara inyubakoho hafi ikikijwe n'uruzitiro rw'udutafari dutoya.

Igipangu gifite ibara rijya gusa umukara bakunze kwita ivu, n'akandi karimo hagati, hejuru hariho senyenge zigitangiriye n'utwuma tuzifashe, ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zigiye zitandukanye ari izigiye iburyo, ibumoso n'ikindi giti gihagaze aho hafi, n'itara rimurika mu muhanda.

Umuhanda urimo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo amagare, inyuma hari moto n'imodoka, hari n'undi uhita ucamo hagati ibumoso, hejuru hari itara ririho n'insinga z'amashanyarazi, igipangu cy'umweru, ubusitani bugikikije, harimo indabyo z'umuhondo n'ibindi biti bitandukanye.

Inyubako kadasiteri cyangwa se igisenge ifite igikuta kiyitangiriye, korotire iriho akabara k'umweru hejuru, ikaba ifite amabati y'umukara, n'indi yegereye, hakaba hateye ibiti inyuma yaho n'ipoto ifite insinga z'amashanyarazi, ari izinyuranyuranyemo zimanitse, n'izindi ziziritse hejuru.

Umunara cyangwa se ipato ritanga insinga z'amashanyarazi mu ngo zitandukanye hari iziriho izinyuyuranye iburyo cyangwa ibumoso akantu k'umuhodo kari munsi yaho riteye ahantu mu byatsi byinshi hiryawo wari umuhanda w'itaka ndetse n'ibindi biti birebire n'ibigufi umuntu uhahagaze wambaye ingofero n'inditaburiya y'ubururu.

Inyubako iringaniye ifite ibirahuri biriho amadirishya. Ndetse hakaba hari inyuma yaho ipato ry'amashanyarazi n'insinga. Hakaba hari ikintu cyumye cyavuye ku insina, nk'ikoma. Indabyo ziraraho hafi, z'icyatsi.

Igikuta cyometseho ibyuma bifite ibara rijya gusa nk'ivu. Ibindi biri hirya, ikimeze nk'ikigega. Imbere hakaba harimo n'ibindi bimashini bigaragara nk'aho ari mu ruganda. Insinga zibicametseho, izindi zigiye zitandukanye zinyuyuranyemo, haba iz'umukara ndetse n'izindi. Hirya, urugi rukinguye, rufite akabaho ku mpande ka shokora.

Igipangu kimwe cyangwa se ikintu kizitiye urugo kifite amatafari asize irangi ry'umuhondo, utwuma hagati ndetse n'igipangu kikaba ari ko gisa umukara, inyuma yaho harimo ipoto rishinzeho, ririho insinga z'amashanyarazi ndetse n'igiti kirekire, imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo ifite irangi ry'u...

Imodoka ebyiri cya kwasiteri kinini cyane gikunze kwitwa yutongo kigizwe n'akabara k'umweru n'ahandi hari ibirahure n'ibara ry'umukara, inyuma yayo hakaba indi kwasiteri yanditseho amagambo hari ibara ry'ubururu n'umweru; umumotari hagati yazo, inyuma hari abagenzi bahagaze mu nzira y'abanyamaguru, ibiti birabo hafi n'izindi ndabo n'amapoto y'amashanyarazi ariho n'insinga.

Imodoka ebyiri harimo ivatiri n'indi ziparitse ahantu, hagati harimo akantu k'umutuku kazitandukanya. Hakaba hariho n'akabara k'umweru. Imbere yazo imodoka hariho icyapa kiriho ikiganza cyerekana urutoki rumwe, hari n'ikindi cyanditseho amagambo y'ubururu, hasi hariho utuntu duciye nk'uturongo. Imbere hari ibyatsi bihateye, n'inyubako, n'igisenge gisakaye.

Inyubako nini cyane ifite amabati y'ubururu, atambitse manini muto harimo n'indi ntoya, utwuma tuyikikije ku mpande, ibiti biteye aho hafi, bikikijwe n'indabo z'amabara y'icyatsi, igikamyo kimanuka mu umuhanda wa kaburimbo uri aho hafi, ibumoso hari n'uw'iburyo mutoya, ipoto rihashinze rifite irangi ry'ubururu n'umweru, ikindi cyapa bya bibiri kimwe cyanditseho amagambo, ikindi kiriho utuntu tw'umutuku n'umweru.

Ibaraza risakaje amabati n'inkingi zifashe amabati akapa k'ubururu gashinze mu twatsi turi aho kerekana amerekezo ikindi kintu cy'umutuku cyometse ku gikuta cy'inzu cyanditseho amagambo y'umweru inzu nini cyane ifite n'amadirishya menshi utuntu two hejuru tujyamo tunyuramo umuyaga ndetse n'amabati.

Ubusitani bugizwe n'ibyatsi byinshi harimo ururabo ruconze rufite n'akandi kantu hejuru imodoka haririmo igenda hafi mu kibanza inzu nziza cyane ya etage ifite amarangi yiganjemo ay'ubururu ndetse nay'umweru.

Icyumba kimwe kirimo ahameze nk'itapi y'umutuku, ibirahure ku ruhande by'amadirishya, intebe abantutu bicaraho hejuru irangi ry'umweru, hirya hari urugi rwa shakora n'akadirishya kandi hariho n'andi mabara y'umuhondo inyuma.

Umu mama uhagaze mu nzira y'abanyamaguru, wambaye ipantaro ijya gusa shokora, ufite igikapu mu ntoki, kirimo amabara y'umutuku, ubururu, n'umweru, uri kuri terefone, iruhande rwe hari ibyatsi, kaburimbo, hirya hari ahantu hazitiye, hari gutuka abantu, inyuma hariho inyubako ya etaje, iriho n'ibirahure, isize irangi ry'umuhondo.

Inyubako ifite amabati y'umutuku hari kandi ikonru ku ruhande ifite inkingi zigera kuri 6 ariho zifashe amabati cyangwa se igisenge hakaba hariho akabara k'umweru kagiye kari kuri buri inguni cyangwag se ku madirishya imbere yawo ari amabuye ashashe aparitsemomo ikunze kwita imbangukiragutabara ibyatsi biri hirya impande n'impande cyangwa se indi myaka yahinzwe.

Umuhanda hari ahantu hamwe hashushanyijeho ibara ry'umweru hasi, hegeranye n'utundi tuntu tw'umukara n'umweru dukikije ubusitani burimo icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo atandukanye, imodoka y'umukara iparitse aho kuruhande, izindi nzu z'ubucuruzi zirimo n'iy'umuhondo hirya cyane, ibiti biri inyuma yazo, n'izindi modoka ziparitse aho muri parikingi irimo amapave y'umweru.

Ababyeyi bagiye gukingiza kwa muganga bicaye ku ntebe, bategereje ko abandi basohoka bakinjira, harimo uwambaye agapira kajya gusa umuhondo, cyangwag se gafite icyatsi cyerurutse, bari ahantu hasakaje amabati hafashweho n'inkingi z'ibyuma, hari n'izindi z'amabuye yafashe inzu ikomeye, hariho umureko, ibyatsi biri hirya yabo, ubusitani n'izindi nyubako zitandukanye.

Inyubako imwe nini cyane isa nkaho ari ibitaro, hejuru hariho akamenyetso ko guteranya mu cyapa cy'umweru, ku ruhande hahagaze umuntu wambaye umupira w'icyatsi inyuma hari ubusitani, imbere ye hateretse ipoto rinini cyane risa nk'iritanga umuriro mu mashanyarazi, hirya hari ubusitani bundi burimo ibiti birebire ndetse hakaba hari n'andi matara, imodoka ziparitse imbere yaho z'umukara n'iz'umweru.

Umumama uhetse umwana, umutwikije agashuka k'umweru, uteze n'igitambaro mu mutwe, imbere ye hari igikapu cy'umukara, umugabo wicaye hagati y'abandi bantu bari hirya n'wo nguwo, ku ntebe z'ibyuma hano hari amakaro meza y'umweru hasi, n'igikuta kiri amarangi abiri y'umweru, hejuru y'umuhondo hagati ndetse na parafu.

Inzu ifite korodoro nini cyane, hariho amatafari ku gikuta n'akarange k'umukara gasizeho, iruhande rwabo hariho vandarateri ifite ikibara cy'umweru n'ibikuta bisize amarangi y'umuhondo n'ay'umweru, hejuru hari icyapa kiriho udufureshi dutatu twerekana amerekezo, umumama uri gutambuka ajya mu muryango.

Ahantu hasakaye hariho n'ibyinshi, bigiye bifashe igisenge, amazu atandukanye yubakishije udutafari dutoya, hari amabati y'ubururu, abantu bagenda, ndetse ibyatsi biraho hafi, birimo n'izindi ndabo, ahantu bakarabira, kurikandagira ukarabe, hari umuntu wambaye umupira w'umatuku.

Ikirangantego kimwe, kigaragaza urukiko, hejuru hariho izuba, munsi hariho akandi kantu kameze nk'inuma, umunzani, igitabo, ndetse hasi hakaba hariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara, iruhande ebyiri zose hariho ingabo zisa shakora, hejuru handitseho andi magambo avuga ngo ubushinjacyaha.

Umugabo wambaye icyenda cy'umukara inyuma hariho akantu hagati k'umweru n'ishati y'mweru n'amarinete, iruhande rwe hari undi wambaye imyenda isa iroze n'umuri inyuma wambaye isa kake n'ingofero, bari ahantu hejuru ari ihema hirya yabo hari n'abandi bambaye isa oranje ndetse n'uwambaye isa nk'iyo ngiyo y'iroza.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo menshi, haba ari munsi no hejuru, abanza akaba atsiritse cyane mu ibara ry'umukara, atambitseho munsi akarongo kagiye kagera hirya, hakaba hariho n'akandi kaziga karimo akantu mo imbere, hepfo handitseho andi agiye atandukanye, haba mu mukono cyangwa mu byapa harimo amatariki.

Abantu benshi cyane, haba bicaye hasi mu byatsi hateye n'ibiti birebire, inyuma yabo haba abicaye no ku ntebe bambaye imyenda isa, ijya gusa iroza harimo abambaye ingofero cyangwa se abambaye ibitambaro, inyuma yaho hari ibindi biti birebire byinshi no hirya yaho.

Umugabo wambaye ikintu cy'umutuku inyuma kinini hariho akantu k'umukara mu imbere hariho umweru na karuvate wambaye n'amarinete afite utuntu tuhakikije tw'umukara ndetse hakaba hariho n'akabara kajya gusa umweru ku kuntu tugiye ku gutwi.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu ndetse na karuvati ishati y'umweru, uhagaze imbere y'akantu bavugiraho ijambo gashushanyijeho amagambo y'umweru, imbere ye hari mikorofone ndetse n'akandi kadarapo gahagaze iruhande rwe kariho ibara rigaragaza nkaho ari iry'u Rwanda, amagambo yanditse inyuma ye ku cyapa.

Umugabo wambaye ikintu cy'umutuku inyuma kinini cyane azamoye akaboko k'iburyo, k'ibumoso gafashe icyuma kiriho igitambaro kiriho ibara ry'ubururu umuhondo n'icyatsi, wambaye ingofero y'urugara imbere ye hari indangururamajwi.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba kirimo irangi hasi ry'umutuku ku gikuta ry'umweru, harimo intebe z'imbaho, abicaye bafite impapuro mu ntoki, abiganje bambaye amakoti hirya kandi imbere yabo hari intebe iriho ikimashini cy'umweru, abandi bafite ama mashini imbere yabo n'uducupa tw'amazi, hari n'uduteretse hafi ku ruhande rwabo n'uturimo ji.

Inyubako ifite uruzitiro rurerure rw'amatafari ruriho akabara k'umuhondo haba hagati ndetse no ku nkingi, hari igipangu cy'umukara hejuru cyanditseho amagambo y'umuhondo, n'ikindi cyuma kigiye kiriho amagiriyaje azamuka, ipoto ririho urusinga rw'amashanyarazi, abantu bari imbere yacyo bambaye imyenda isa, harimo abambaye iya kake, iya move ndetse n'indi ijya gusa oranje.

Umugabo wiyogoshesheje wambaye imyenda isa iroza afite akantu k'ubururu mu ijosi karimo ikarita mu imbere, inyuma ye hakaba hari ibiti biyashinze bigaragara ko bifashe nk'ibintu abantu bicayemo bitwikiriye aho ngaho harimo n'abandi bambaye imyenda ijya gusa, harimo abambaye iya oranje, hari n'uwambaye ingofero, hirya hari n'abandi bantu bahicaye benshi cyane.

Urupapuro rw'imirongo hariho akaranganeko k'u rwanda ku mpande yako hariho ingabo ndetse hakaba harimo n'agaseke mo hagati, hejuru handitseho amagambo ari mw'ibara ry'umukara atandukanye, ari ingingo ebyiri munsi hariho ahantu hasinye umukono cyangwa se andi matariki hejuru yaho umujyi umwe wa kigali n' amatariki n'umwaka.

Abagabo benshi harimo abambaye imyenda ijya gusa umweru cyangwa se iroza, hakaba hari n'abambaye babiri ingofero, abandi bambaye imyenda ya oranje bose, imbere yabo hari inyubako ndende cyane yanditseho amagambo y'umweru, cyangwa se hariho n'ikindi kigaragaza umwaka hejuru, hirya hari igipangu cy'umweru.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bahagaze ahantu hamwe, hejuru hacanyemo amatara ndetse hariho n'ahanyura umuyaga n'agakamera gatoya, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ingingo zitandukanye bashobora kuba bari bari kuganira mbere yuko bajya gufara iyo foto y'urwibutso, inyuma yaho hari amadirishya ndetse n'ameza n'intebe bari bicayemo.

Inzira y'abanyamaguru bo'umuhanda hagati ndetse nta munyabiziga bi kunyuramo imodoka y'ivatiri y'umweru niy'umukara, matemi igenda ikindi gikamyo kinini cyane kirakabura k'umweru kigaragara ko ari icya polisi utwuma dufasha abantu banyura n'amapoto y'amashanyarazi ndetse n'ariho'amatara.

Igikamyo kinini cy'umukara kirimo kigenda mu muhanda wa kaburimbo, inzira y'abanyamaguru hafi aho ikikijwe n'utubuye tw'umukara n'umweru, harimo hagendaho abantu, hari uva imbere n'ujya inyuma, ipoto ry'amashanyarazi ririho n'insinga ebyiri, imbere yaho hari indi imodoka y'ubururu, ibiti biteye hafi aho y'inyubako zihari ndetse icyo gikamyo kikaba gifite n'akandi karangi k'umweru kanditseho amagambo atagaragara neza.

Ikamyo nini cyane ifite ibara ry'umweru hagati harimo ak'ubururu, imbere hahagaze abantu benshi, hirya hari n'andi acanye amatara inyuma hari ibiti, ndetse hakaba hari n'abambaye imyenda isa n'iy'abapolisi n'ingofero harimo n'uwambaye iy'umweru wipfutse ahantu hose.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamoto. Harimo kandi imodoka z'umukara, hamwe n'abanyamaguru ku mpande zaho. Abapolisi bahagaze bambaye iniifomu ndetse n'amajeri yabo ari mu umuhondo. Umutaka wa MTN ugaragara hafi y'ifoto y'amashanyarazi, ndetse n'irindi.

Ifashe inzu isa nk'iri hanze iriho itiyo ry'amazi, hariho utundi ducupa tubiri tw'umutuku twanditseho amagambo atandukanye, dufite n'ibindi bigozi by'umukara bibicometseho n'aho umuntu akanda, hakaba bigaragaza ko ari ibizimya umuriro mu gihe habaye inkongi.

Abantu bambaye imyenda isa yiganjemo ubururu bwijimye n'ubwererurutse, harimo n'uwambaye utw'umuhondo, hari imbere ibyatsi byinshi bihagazemo undi, ufite igicupa cy'umutuku mu ntoki ze, afite igishumi cy'umukara, imbere ye hateretse gaze, iteretseho n'isafuriya iri kuvamo umwotsi.

Icupa ry'umutuku dukunze kwitakizamyamwoto cyangwa abantu bifashisha bagiye kuzimya inkongi y'umuriro, rihagaze ahantu ku makara y'umweru, gikuta gisa nk'ivu kiriho ibipapuro bitandukanye, harimo amagambo y'umukara, ririho imibare, haba hasi hariho n'indi kode umuntu ashobora gusikana hagaba abagifite umugozi w'umukara.

Imodoka y'umukara iparitse mu mapave, yashushanyijeho utuntu twerekana parikingi imodoka ihagararamo n'indi kerekana icyerekezo, imbere yaho hari amavaze arimo indabyo, ibiti, birebire ndetse n'izindi z'umuhondo ,ibyatsi ,ikigega cy'amazi kiriho hejuru mu tuntu tw'ubururu, nyuma hari ikintu gihagaze cyumweru mu byatsi, n'amashami yo hejuru y'ibiti.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, iriho akarongo k'ubururu ku ruhande rw'iburyo, ingofero iriho akandi karangantego, kameze nk'akari ku cyapa inyuma kijya gusa ubururu, wambaye amarinete imbere ye, hari ibifata amajwi byinshi bitandukanye harimo na telefone, ikaba hirya ku ruhande hari ibara rijya gusa nka shokora.

Pave, hari imirongo ibiri y'abantu ndetse bamwe ku bumoso abandi iburyo, harimo ingeri zitandukanye abagore abagabo abakuze cyangwa se abato, inyuma hariho ibiti utuntu tw'umweru n'umukara dukikije aho bari, amabati ari hirya agaragaza ko ari igisenge cy'ahantu hamwe, ndetse n'andi mapoto y'insinga z'amashanyarazi.

Abantu benshi harimo babiri bambaye imyenda y'ubururu nu bwijimye n'ubwerurutse umwe n'umukara'umutuku, bahagaze ahantu batonze umurongo imbere yabo hari indabyo z'umuhondo ndetse n'ahantu hari igisenge gifite inkingi zigifashe ziriho amabara biratandukanye ubururu hasi ndetse n'umuhondo hejuru, ibiti biteye Aho hafi yabo haba inyuma no kumpande.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amakoti y'ubururu n'amakositimu ndetse bambaye amashati atandukanye, hari uwambaye umweru wambaye umukara n'amakaruvati atandukanye adasa bafite ikintu kimeze n'ikirahure mu ntoki buri wese ashyizeze ibiganza bye bibiri, inyuma yabo hari ameza ajya gusa na shokora, n'umumama wicaye inyuma ku ntebe y'umukara akaba yateretseho ku meza agacupa k'amazi.

Ab'ingeri zitandukanye harimo abakuze n'abato bahagaze bambaye amakositimu yiganjemo umukara n'uwambaye iy'ubururu, uri gusuhuzanya na perezida paul kagame wambaye rinete n'ishati y'umukara. Umumama uri hirya wambaye imikenyero uri gukoma mu mashyi wambaye imyenda y'umuhondo.

Igipapuro kiriho amabara abiri umukara ndetse n'ubururu, hagaragazaho ibintu bitatu byerekana kumanuka hepfo, ku ruhande rw'ibumoso hariho utuntu dutatu ndetse n'utundi tuzu tugiye turimo ibisobanuro bya buri kantu, ku rundi rw'iburyo na ho bikaba ari uko.

Ikintu cy'umweru kirekire gitambitse ahantu gifashwawe n'utwuma cyangwa uduti hasi, hagati yaho kizirikanyije harimo amafoto atatu atandukanye, hakaba hariho ifoto y'umuntu wambaye ikoti na karuvati n'ishati y'umweru, hakaba hashushanyijeho uturongo tugiye tuzamuye nk'ama esikariye ak'umutuku, ubururu n'icyatsi, hepfo handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu no mu ibara ry'umukara.

Urupapuro rufasheho ikiganza cy'umuntu ufite ikimarikeri mu ntoki gifite ibara ry'umukara uri kugenda wandika ahantu hariho imibare guhera kuri rimwe, ageze ku mubare w’ijana na makumyabiri na karindwi anyuzamo akarongo, hejuru hari izina ry'umuntu ryanditseho, ahandi hari akarangantego kagaragaza idarapo ry'u Rwanda cyangwa se irindi bara ritandukanye.

Abagabo n'abagore bicara mu cyumba cy'inama ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza ari mu mbaho, ateretseho uducupa tw'amazi y'inyange, amaraputopu mashini, amazina ndetse ari ku tuntu tw'umweru turi imbere yabo, hari uwambaye runete, umumama witandiye ndetse na mikorofone afata amajwi.

Umugabo munini mu maso wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvate irimo utundi tubara duhengamye, inyuma ye hari ibitambaro biriho amabara atandukanye, harimo umuhondo, umutuku w'icyatsi n'ubururu n'umweru kandi imbere ye akaba afashe ahantu yambaye n'isaaha n'impeta.

Benshi ndetse n'abagore b'ingeri zitandukanye haba abakuru n'abato bicaye ahantu mu ihema, rifite amabara y'icyatsi umuhondo n'ubururu imbere ahagaze undi mugabo wambaye umupira w'umweru uriho nako kadarapo ufite mikorofoni mu ntoki uri kuvuga ijambo, akaboko k'uburyo yakazamuwe ak'ibumoso kakaba kafashe akambayeho n'isaha n'impeta.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'indangururamajwi, umwe ari kuyivugiraho ufite ibipapuro mu ntoki biriho n'indi foto, inyuma hari andi agera kuri atatu, hicaye n'abandi bamama imbere yabo hari ameza ku ntebe z'ubururu, inyuma hari inzu, inyubako zitandukanye zisa nk'izishaje, ahantu hari ubwatsi bwumye n'undi mugabo uhagaze wambaye ijire n'ishati y'mweru.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bicaye mu ntebe z'imikara, hejuru ya buri wese, imbere hakaba hari agacupa k'amazi, indangururamajwi, imbere muri bo babiri umwe akaba abafite telefone ari gukamera yambaye isaha, ikoti ry'ubururu n'ishati y'umweru.

Abagabo n'abagore ingeri zitandukanye bari gutambuka n'abari kumakamera bahagaze mu byatsi bikikijwe n'indabo zitandukanye z'amabara y'umuhondo n'amabara y'icyatsi hejuru hari igiti kigandaye kinini amadarapo amanitse hejuru arimo irifite irangi ry'ubururu irangi ry'umuhondo n'andi atandukanye inyubako iraye inyuma ifitemo irangi ry'mweru n'utundi dutafari.

Umumama wambaye agapira ka move karimo utuntu tw'umweru, imbere ye hari mikorofoni nyinshi, zifite amajwi ndetse afite ikintu mu ntoki kimeze nk'igitabo, idarapo ku ruhande ririho ikirangantego cy'u Rwanda, n'intebe y'umukara yambaye amaherena y'umweru.

Umugabo munini mu maso ufite umusatsi utari mwinshi wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru karuvate irimo akabara kajya gusa iroza cyangwa se umutuku n'akandi k'ubururu gatoya inyuma hariho ibindi bintu bitandukanye harimo n'akabara k'umukara.

Supanete iri mu ibara ry'icyatsi ikikije ibiti birebire ndetse n'imbere hakaba harimo n'ibyatsi, inyubako ziri hepfo yaho, umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo moto ebyiri zitandukanye, ari izitwara abagenzi n'izitwara imizigo, inzira z'abanyamaguru iburyo n'ibumoso, akaruhurura gato kari ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo ikinyabiziga kikunze kwitwa igare aho gihetse imizigo itandukanye imifuka igera kuri itandatu y'imiceri umuntu uyitwaye wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umweru buradiri iri iruhande rwabo rw'iburyo ibyatsi biteye hirya yawo gato n'inzira y'abanyamaguru hepfo y'ibumoso yarimo igendaho n'umuntu wambaye ipantaro y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye imodoka; ebyiri z'umweru ndetse n'umukara, moto umumotari utwawe n'umugenzi wambaye umupira w'icyatsi n'igikapu ku mugongo inzira y'abanyamaguru n'indi, hapavomye haparitse moto ifite purake magana inani na cumi na rimwe, ikirenge cy'umuntu gikandagiye wambaye urukweto rw'umukara.

Umuhanda urimo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo n'igikamyo gifite ibara rya orange n'umweru gihetse imodoka ya tayota, na none iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru na ruhurura, utu boroke abantu banyuraho bambuka, ibyatsi, ubusitani, ibiti, birebire bikikijwe na supanete y'icyatsi, amazu hepfo yaho abantu barimo amajerekani arimo menshi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ugendamo ibinyabiziga bibiri, moto ihetse n'umugenzi iri kumwe n'umumotari, ikindi gikamyo kinini cyane cya fuso, kiri mu irangi ry'umweru, hari ahantu hashushanyijeho akantu k'umuhondo n'akandi k'umutuku, harimo umushoferi, inzira y'abanyamaguru iburyo n'ibumoso, ibiti bikikije ahantu hari uruzitiro rw'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite n'aho abantu baparika imodoka ku mpande handitseho amanimero, hari n'irindi rangi ry'umweru rihasize, haparitse imodoka zigera kuri eshatu z'amavatire, inyubako iri hirya ya etage iriho n' ibirahure, ubusitani buri aho hafi burimo ibiti birebire n'ibigufi, hariho n'indabyo z'umutuku.

Imodoka zirimo amabara ubururu, umweru, w'umuhondo umukara se ziri mu muhanda wa kaburimbo hari ibumoso n'iburyo ibiti aho hafi bikikijwe na senyenge cyangwa se ikindi kintu cy'icyatsi ibirebire. Ibyatsi hasi inzira y'abanyamaguru iburyo n'ibumoso na ka ruhurura hagati.

Ikimodoka kinini cyane kiri mu ibara ry'icyatsi, hejuru hagati handitseho n'amagambo y'umweru akabura k'umuhondo hasi cyane ahegereye amapine, ikindi kiri imbere gifite ibara ry'umweru, hari utudomo tugera kuri tubiri tw'umutuku n'andi matara ku ruhande haparitse ahantu hari umuhanda w'igitaka.

Imodoka tuzi nka kwasiteri ifite irangi ry’umweru, n’akugi kariho ibirahure no mu madirishya. Icanye amatara inyuma, iri mu muhanda wa kaburimbo. Hari umuntu uri kwambuka, amatara ari ku mpande. Ipoto ritwara insinga z’amashanyarazi, haba izinyuranamo hano mu muhanda n’izindi zerekeza hirya, hatandukanye n’ishyamba haruguru yaho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo ibinyabiziga, urugero nk'igare, igikamyo cyangwag se indi modoka ngufi, ufite imihanda ibiri iburyo n'ibumoso hepfo hari inzu ifite amabati y'ubururu, itara ku nzira y'abanyamaguru iri aho hafi ndetse n'igikamyo kikoreye imifuka y'amakara itwikirijeho shitingi y'umukara hirya hariyo ibiti birebire bihateye.

Amamoto ariho abamotari ndetse n'abatwaye abagenzi, babiri muri abo bakaba ntabo bafite, hari uwambaye imyenda y'umweru atwaye iy'ubururu, igikamyo kimanuka gifite ibara ry'umukara inyuma imbere ry'umweru, hirya hari itara rihanitse mu muhanda ndetse riri ahantu mu nzira y'abanyamaguru, ibiti hirya yaho hino kandi hari n'indi nzira abantu banyuramo.

Umuhanda wa kaburimbo w'igikamyo kirimo gifite amabara y'umweru ashushanyijeho n'utundi tugambo tw'umutuku n'utw'ubururu, igare riri iruhande n'irimanuka rihetse umugenzi wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, inzira z'abanyamaguru ha iburyo n'ibumoso, akaruhurura gato kariho utuboroke cyangwa se aho abantu batambukira, ibiti biteye aho hafi n'ibibizitiye.

Igikamyo kinini cyane gifite ibara ry'umweru ariko higanjemo n'andi yanditseho amagambogambo atandukanye, gishushanyijeho amagaze, amanini n'amato agera kuri arindwi cyangwa se, andi adatandukanye arimo imbere, hari ibara ry'ubururu imodoka iri guca hepfo mu ruhande rwo hepfo, inzira y'abanyamaguru, ipoto ririho insinga z'amashanyarazi ibiti binini na ruhura.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo ugendadamo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye amamoto y'abamotari bambaye amajiri asa umuhondo n'ubururu, abahetse abagenzi n'abatabahetse. Imodoka ziparitse ku ruhande hejuru yaho hari inyubako y'umuhondo etage indi itwaye imizigo irimo imbaho ziziritseho hari gikamyo gifite ibara ry'umweru imbere cyanditseho n'amagambo, umugabo uhagaze ku nzira y'abanyamaguru noneho ufite injerekani mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo urimo unyuramo moto idafite umugenzi, igeze ahantu abanyamaguru bambukira, inzira y'abanyamaguru ku ruhande ikikijwe n'utubuye tw'umweru n'umukara tureture cyane, ubusitani burimo ibiti ibirebire n'ibigufi, ibyatsi, ibyapa ndetse ipoto ry'amashanyarazi ndetse n'itara riri ku ruhande ryegereye inyubako ya etaje, irimo ibirahuri by'ubururu.

Inzira y'abanyamaguru irimo igendaho umuntu wambaye ijipo y'umutuku, udukwetu turimo akantu k'ubururu, igikapu mu mugongo, igikamyo kiri kugenda muri kaburimbo, kirimo umuntu wambaye ingofero y'indi, umupira w'umuhondo, moto iri kumanuka, ijya ibumoso, ibiti biteye ku mpande bikikijwe na supanete y'icyatsi.

Igikamyo kinini cyane cy'umutuku bakunze kwita rukururana, gihetse imizigo myinshi itwikirije shitingi y'icyatsi iriho akabara k'umuhondo, izirikishije imigozi y'umutuku, hirya y'umuhanda hari ibiti n'itara rimurika mu umuhanda, inzira y'abanyamaguru hano hafi, akaruhurura gato karaho n'utundi twatsi tw'utubabi tubakikije n'icyapa kimanitse cy'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo urimo unyuramo imodoka ebyiri zitandukanye, iyiganjemo ibara ry'umutuku, hariho n'akandi k'umweru, n'indi iri mu bara ry'ubururu, byose bikaba ari ibikamyo bihetse imizigo, hari ihetsemo ibitaka n'ibindi bifiteho hejuru shitingi, inzira y'abanyamaguru ku ruhande n'utuborodire.

Ibinyabiziga bitandukanye birimo bigenda mu muhanda wa kaburimbo, harimo izindi ziparitse hafi y'inzira y'abanyamaguru, hariho n'igihetse imizigo kinini cyane cy'igikamyo n'indi vatiri iri ku ruhande, indi iri kwambukiranya iva mu muhanda ijya ku ruhande hari ibiti binini n'ipoto ry'umweru ricana umuriro mu muhanda.

Ahantu hashashe utubuye, abantu barimo bagenda n'abaza, hari uri kugenda no ku igare ririho akabara k'umuhondo, inyubako z'ama etaje, harimo n'izirimo ibirahure n'utwuma tw'umukara hirya, hino hari akazu kubakishije imbaho n'akandi kantu bashyiramo imyanda, hari ahantu hamanitse igipupe kiriho imyenda, ibiti birebire cyane n'ibyatsi biraho hafi y'utubuye, n'abantu bahicaye.

Kaburimbo irimo igendamo imodoka iza imbere, hariho ndetse akandi kazu kagaragazamo uturanganego twa medi ini Rwanda ku bintu bakunze gukora mu Rwanda, kariho ibara ry'umuhondo n'ibindi birarahure, gakikijwe n'akandi gafite umutuku n'umweru gafashwe n'igiti, abanyamaguru bari kugenda mu nzira yabo.

Ahantu hari amabuye menshi ashashe hasi hagati harimo utuntu tunyuranyuranyemo, hejuru hanyuzeho urutsinga rw'amashanyarazi ruriho akandi kantu, hirya hariho indabyo ziteyemo hagati muri aya mabuye ziri mu mavaze cyangwa ziri aho zabugenewe, haba inini n'intoya abantu bahagaze hafi aho, inyubako ya etaje ikikijwe n'urupangu ruriho utwuma tw'umukara.

Ukibuga kinini cyane bakunda gukiniramo umupira iruhande rwacyo hariho itaka ndetse hakagaragara nkaho hari umuhanda w'ibitaka ibiti biri hepfo cyane bigikikije bini ndetse n'ibindi bitoya amapoto amabarashushanyijemo hagati y'abakinnyi barimo bagera kuri bane harimo n'uwambaye hejuru y'ubucyatsi.

Ahantu hashashe amabuye amwe asa, hejuru hari agakuta gatoya kariho utundi tugiye dutandukanye turimo akabara k'umukara hagati muri two, ahandi hari ama esikariye agiye asumbanaho cyangwa se intebe, igare riparitse hafi y'utwuma turi aho, inkingi zifashe igisenge cy'ayo mabati ari aho hafi n'akandi kazu k'umuhondo kari hirya n'ibiti biri inyuma yaho.

Amapave arunzemo utubari twinshi dutoya hariho utundi tuntu tuhakikije tw'umweru n'umukara ndetse ivaze ririmo indabyo ibyuma bikikije ahongaho hari ubusitani bw'icyatsi hatemo n'izindi ndabyo moto iparitse mu mihanda yo hirya mu modoka y'umweru ndetse n'icyapa kiri inyuma yayo.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti, harimo n'ibyiganjemo ibihuru, ku ruhande rwo hino, hateyeho ibintu bimeze nk'ibigori, ipoto riho icyapa, akantu k'umutuku mo hagati h'umweru, n'akandi k'umukara kerekana amerekezo, utunyuguti twinshi twa "A" n'andi magambo yanditsemo ya arani.

igipoto kinini cyane kiriho n'ibindi bintu bimeze nk'ibyuma hasi hari insinga z'amashanyarazi hejuru y'ibyareho n'akandi gato kanyuranye n'izo ngizo icyapa kiriho icyuma gishinze hariho ibyapa 2 hejuru n'icyo hasi hasi agaragaza ko hari abantu bambukira hejuru hari ikindi kimeze nka ta itambitse ibyatsi hafi aho n'umuhanda wa kaburimboga sitoya yicaye n'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo ufite n'ikindi gice hirya, hagati harimo ibiti bifite amashami, akandi kantu gahagazemo k'akuma gafite akapa hejuru k'umutuku, n'akandi kerekana amerekezo agiye atandukanye agera kuri atatu, ibyatsi n'ibindi biri hirya y'umuhanda, imodoka igendamo hagati y'umweru.

Icyuma gifashe ku cyapa kiri hejuru gifite akabara k'umutuku gakikije impande, imbere harimo ak'umweru, harimo icyapa gifite akantu kareba ibumoso n'akandi gahagaze karinganiye n'icyuma gifashe kuri icyo cyapa cyo hasi.

Ikiziga kinini cyane gishushanyishije ibara ry'umutuku mu imbere harimo iry'umweru, hanyuzemo akarongo kaberamiye ku ruhande rw'iburyo, hashushanyijemo ikimodoka kinini cyane gifite irange ry'umukara, mu imbere harimo ahagaragara nk'ahari ikirahure cya

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo harimo ibyiciro bitandukanye by'ubugiye ibumoso n'akandi gato kari hirya hagati harimo ubusitani buteyemo amapoto cyangwa se n'andi ariho amatara amurika muhanda ya bwije harimo ibyapa bibiri cy'ubururu hepfo k'akazeru karimo akantu kerekana amerekezo ajya ibumoso, haruguru hari ikindi cyanditseho "P" munsi hashushanyijeho imodoka hejuru cyane hari inyubako ikikijwe n'ibyuma by'umweru.

Icyapa cy'umweru kiriho amagambo munsi mu ibara ry'umutuku no hejuru hakaba hariho ikindi gishushanyijeho mu ishusho y'uruziga, hagati harimo imodoka yacimo akarongo ndetse na moto hejuru yicaho umugenzi ariko by'ibishushanyo, hepfo kandi handitsemo amagambo y'umweru.

ahantu hakorerwa ubuvuzi bworoheje hakunze kwita farumasi cyangwa se umuntu wifashisha akaza akapa kariho'akantu k'umutaka kerekana amerekezosininka z'amashanyarazi ziri kunyura hejuru yako ibara ry'icyatsi riri hejuru kuri iyo nyubako handitseho n'icyapa kigaragaza ibicuruzwa bitangirwa aho hafi

Icyapa kiriho ibindi bibiri bitandukanyekanje ari icy'uruziga cyanyanditsemo miliyari mirongo itandatu munsi hashushanyijeho kandi kamera munsi n'amagambo abisobanura, imbere hari akandi kari akantu k'umutuku n'umweru, inzira y'abanyamaguru umuhanda wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye n'ibindi biti biri ku mpande.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri, hagati hariho uturongo tw'umweru tuhandukanya hateyemo n'ubusitani burimo ipoto y'icyapa, ak'umutuku ko hasi gaciyeho umurongo kagaragaza amerekeza ajya ibumoso, aka ruguru kagaragaza amerekeza yo hasi aturutse imbere, hakaba haciyemo akarongo, hasi kuri kaburimbo ibumoso harimo akandi kerekana amerekezo ajya iburyo, ibiti biri hirya no hino mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo imodoka yacanye n'amatara inyuma, iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru n'utubati, ubusitani buteyemo ibiti, amapoto ndetse n'ibyapa harimo ik'icyatsi kiriraho amagambo y'umweru, kiriho n'akantu k'akaziga rekana amerekezo; ikindi cyerekana ko hari aho abantu, abanyamaguru bambukira, ibiti binini ndetse n'amapota ariho insinga z'amashanyarazi n'amatara.

Inyubako imwe igizwe n'amabati yiganje iririmo ibara rijya gusa umukara ahantu, hamanitse icyuma gifata rezo cyangwa se gikurura ibintu bishobora gutuma ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga biri aho bikora, moto iparitse inyuma y'igipangu, cyangwa se inyubako y'uruzitiro ruri aho, amarido amanitse ahagaragara nk'aho shitingi n'amagambo yanditse hagati mu kantu k'umweru.

Inyubako nini cyane igeretse, iririho irangi ry'umweru ku gikuta, n'ibindi birarahure bifite irangi rijya gu gusa umukara, hamanitseho icyapa kinini cyane gishushanyijeho amacupa y'inzoga n'umufuniko, hejuru handitseho amagambo y'umutuku, ubusitani buri imbere yawo, ndetse n'umuhanda wa kaburimbo umanuka.

Inyubako cyangwa inzu nini cyane ya etaje igeretse gatatu, hasi haparitse amamodoka menshi n'ari kugenda mu muhanda, imbere yayo hari sitasiyo icuruza esanse cyangwa se andi mavuta akoreshwa n'ibinyabiziga, hejuru hari icyapa cy'izina ryayo n'amagambo y'umutuku, imodoka z'umweru n'iz'umukara, ibyapa bimanitse hejuru ku nzu byerekana ibikorwa bihakorerwa.

Ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, ndetse n'ibindi biti birebire, cyangwa se bigufi biteyemo, amazu agiye atandukanye, hari aya etage, cyangwa se bakunze kwita amakadasiteri, afite igisenge n'aringaniye, ndetse n'ikirere gisa n'icyijimye kirimo igihu.

Umuhanda wa kaburimbo uriho aka boridire cyangwa se akaruhurura gato, kariho utuntu hejuru abantu bambukaho bagiye kujya ku nyubako ihari, ikikijwe na supaneti y'icyatsi ku ma giriyaje cyangwa utwuma dufasha ku gipangu, igeretse ndetse ifite n'indabo ku mpande zayo. Imodoka iparitsemo hagati.

Ku muhanda wa kaburimbo hari umanuka ndetse n'utambika, akaruhurura gato, hejuru hakaba hari ibisima bakoze biriho n'ibyuma, udupoto tubiri turi hafi y'igipangu kimwe gifite utwuma hejuru tw'umukara, ndetse hirya harimo imodoka igenda, ibyapa bimanitse hafi y'inzu cyangwa se ibipangu by'abantu batuyemo, andi magambo yanditse aho ku gikuta.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi byerekeranye n'imyenda, cyangwa se ibiribwa, kuko hejuru hari y'ibyapa bibigaragaza, hashushanyijeho imyenda, amakositimu, amashati, cyangwa se inkweto n'amasogisi, hari ahashushanyijeho nimero kandi ushobora guhamagara mu gihe uje ukababura, hirya hari ikindi cyapa cyerekana ko ahongaho hari supermarket, cyangwa se iduka ricuruza ibyo kurya.

Inyubako ifite irangi ry'umweru n'amadirishya ku mpande, utuzu turi inyuma yayo twinshi harimo n'agafite ibara ry'umutuku hejuru ku mabati, ubusitani buteye impande zayo harimo ibyatsi, ibiti birebire, utwuma turi hejuru y'igikuta ndetse amabuye akikije igipangu cyayo.

Umuhanda kaburimbo nini ifite ibice bibiri bitandukanye ikiburyo ni k'ibumoso, hagati hanyuzemo ahantu hateye ibyatsi birimo n'ibindi biti, ipato ry'amashanyarazi n'ibndi bigaragaza urumuri mu muhanda, amatara, akamoto kamwe kari kunyuramo, ibyatsi biri munsi y'uwo muhanda n'ibindi birihino.

Mu ijoro umuhanda wa kaburimbo ugiye urimo ubusitani hagati no ku mpande hari ahateyemo akapa kerekana ibyerekezo bitatu ko hariho udufureshi tw'umweru imodoka zicana amatara hari igenda iburyo n'igenda ibumoso n'umuhanda wo hejuru ukikijwe n'utwuma ndetse n'ibindi biti biteye aho ngaho.

Umuhanda wa kaburimbo ugeretse n'undi hejuru ufashwe n'inkingi zigera kuri eshatu, akaba ufite ibyuma biwutangira hejuru, hasi hakaba hari ibyatsi biri ku nzira y'abanyamaguru hafi aho, ibinyabiziga biri muri uwo muhanda cyangwa se n'ibyikoreye imizigo, hakaba hari ibiti, ibirebire n'ibigufi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite n'inzira z'abanyamaguru ku ruhande aho abantu bagendera, hejuru hakaba hariho n'undi ufite n'inkingi ziwufashe hasi, amatara ku mpande n'impande, hari indabo z'amabara y'umuhondo y'icyatsi n'ibindi biti birebire, ubwatsi butoya hasi, akayoboro k'amazi ku ruhande gato.

Umuhanda wa kaburimbo munini ufite uw'iburyo n'uw'ibumoso ukaba urimo ugendamo imodoka hagati muriwo harimo igipangu gifite ibara ry'umweru gikikijwe n'ubusitani harimo ibyatsi n'ibindi biti birebire hateretsemo akapa gato n'ikindi kiri kuri icyo gikuta cyerekana ko ari n'ikigo cy'amashuri ko hashushanyijeho akana .

Kaburimbo igiye irimo izindi zitandukanye, hirya hari indi mihanda myinshi, hagati harimo ubusitani bw'ibyatsi n'izindi ndabo, ibindi biti biri ku mpande binini, inyubako iri hepfo ifite amabati y'ubururu, amapoto atanga urumuri akunze kuba ariho amatara, imodoka zirimo ziwugendamo n'amamoto.

Umuhanda wa kaburimbo ufite iburyo n'ibumoso hagati harimo akayira gato karimo ibyatsi ndetse hari n'ibindi biti birebire hirya hari amatara acana ku mihanda hakaba ariho n'irimanitseho icyapa cy'icyatsi imbere hakaba n'ikiriho cy'umutuku abanyamaguru bari kugenda mu nzira yabo ibindi byatsi biri ku mpande byinshi harimo n'ibiti birebire.

Umuhanda wo hejuru ufite inkingi ziwufashe zigera kuri eshatu, hejuru yawo hari akantu k'akuma kahashinze kari mu ibara ry'ubururu n'umweru, ibiti biwukikije iburyo n'ibumoso, ibyatsi biri hasi, umuhanda wa kaburimbo uri munsi nanone n'ibindi biwufashe hejuru, ku buryo abantu badashobora guhanuka ngo bagwe hasi.

Ahantu hashashe utubuye, hagati harimo ibyatsi, indabo se, n'ibindi biti binini, umuhanda wa kaburimbo, hagati nanone hanyuramo ibindi bintu biteyemo, n'undi hirya urimo ugendamo n'imodoka ebyiri, igikuta kinini cyane kiriho amabuye n'ibiti hejuru yaho.

Umuhanda wa kaburimbo uriho inzira y'abanyamaguru ku ruhande. Hariho utuntu tugiye dukozwe mu bisima. Hirya hariho n'undi bishamikiranyaho hagati harimo ibintu biteyemo by'ubusitani, indabo cyangwa se ibyatsi. Harimo umuntu urikwambuka, imodoka imanuka imbere y'igikamyo, ndetse na moto, n'izindi zihagaze ku murongo w'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo hagati utubuye dushashe n'utundi tudukikije tw'umweru n'umukara, hagati muri ho haba hari n'icyapa, cy'umukara cyanditseho amagambo y'umweru, moto ziri kuhazenguruka nijoro, n'ibindi binyabiziga biri kunyuramo hagati, amatara ari ku mpande, n'ibindi biti byinshi, ibyatsi, ibihuru, n'inzu z'ubucuruzi ziri imbere.

Umuhanda wa kaburimbo unyuyuranyemo hariho ubusitani mo hagati ahandi harimo rompuwe, amapoto y'amashanyarazi, amatara ku mpande, ibiti biteye muri ubwo busitani, ibikikije uwo muhanda, ibinyabiziga biri kunyuramo haba amamoto atwaye abantu, imodoka ifite ibara ry'ubururu ndetse n'abandi bantu bagenda n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo rimo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye haba moto, igare ndetse n'imodoka, hejuru hariho n'undi ufite inkingi ziwufashe zigera kuri enye ziri hasi, inzira y'abanyamaguru ikikijwe n'ubusitani harimo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire n'imizigo yikorewe n'imodoka cyangwa se igare.

Kaburimbo irimo igendamo ibinyabiziga bitandukanye, moto itwaye umugenzi y'abamotari, imodoka ikunze kwitwa Yutongo ifite ibara ry'umuhondo hasi ahandi hari umweru hirya hakaba hari ahakapa kerekana icyerekezo cy'amajyaruguru hari udufureshe tw'umutuku. Imbere yaho hari ipoto rishinze mu byatsi by'indabo n'ibindi biti binini.

umuhanda wa kaburimbo ugiye unyuranyuranyemo n'indi myinshi itandukanye. Inzira y'abanyamaguru abantu bambukiraho, ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda, amamodoka, amamoto, abantu bari kugenda munzira yabo, ibiti hirya no hino, inyubako y'umweru igeretse ya etage, amasitasiyo ari ifite ibara ry'umutuku, umuhondo n'umweru n'indi ifite ibara muhondo, icyatsi, n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo n'ugendamo mato nyuma yahondi igaragaza ipine yo muri motari y'akapa k'umutuku n'umweru gashinzeho kagufi n'irindi poto ry'amashanyarazi ririho n'itara ibiti hafikeya ahantu mu byatsi handi iruhande handitseho utugambo hafi y'umuhanda w'igicucucucu cy'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo ushamikiyeho n'indi nyinshi hagati muri radi harimo ubusitani hara ahateretsemo ipotora harimo ibiti hahandadi hari amatara ku mihanda irimo igendamo ibinyabiziga bitandukanye kuri buri tarara hariho icyapa rimwe na rimwe ry'icyatsi cg se andi mabara hirya ari ay'umutuku hari amamoto hari indabo ziri mu byatsi n'irindi shyamba rri ruguru y'inzu ifite amabati y'umutuku.